Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibinyobwa, ndetse n'ibiribwa bitandukanye, bakaba banatanga serivisi zitandukanye, zirimo n'amacumbi.

Iyi ni inyubako ndetse ikaba n'akabari, hakaba habamo, hatangirwamo serivisi zitandukanye zirimo kugurisha ibinyobwa, ibiribwa, ndetse n'aho kuryama ku bantu babyifuza.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi izwi ku izina ry'akabari. Ikaba iri gutangirwamo serivisi zo gucuruza ibinyobwa ndetse n'ibiribwa bihiye, ndetse ukaba wahasanga n'aho kuryama igihe unaniwe.

Aha ni mu kabare aya akaba ameza ateretseho ibinyobwa bitandukanye, birimo Ji, inzoga yitwa sikolo, ndetse n'ibirahuri bisutsemo inzoga, ndetse n'abantu bari kuzinywa.

Aha ni inyubako yitwa akabare, aha ni imitaka iriho intebe n'ameza, iruhande hateretse amakesi arimo inzoga ndetse n'imitobe. Hari inyubako itanga serivisi z'ibiribwa, n'ibinyobwa, ndetse n'uburyamo.

Mu nyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, imyambaro ndetse n'ibyo kwifubika aha hagaragara igikapu amasume ndetse n'indi myambaro itandukanye.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi icuruzwamo ibintu bitandukanye birimo ibiribwa, ibicanwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu, akaba ari inyubako irimo imifuka y'amakara ndetse n'intebe mu muryango, umunzani na wo uri mu muryango.

Ni inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho ndetse n'ibicanwa by'ubwoko butandukanye birimo gazi. Aha hakaba hagurishirizwa kandi n'ibindi bikoresho, n'izindi serivisi zitandukanye.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi izwi ku izina rya himagisi . Itanga serivisi zo kugura no kugurisha kamera ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga. Aha igufasha no kwesitara kamera mu rugo ndetse no mu bindi bice bitandukanye.

Inyubako y'ubucuruzi, itangirwamo serivisi zitandukanye zirimo kugurisha ibikoresho ndetse n'ibiribwa bitandukanye. Birimo ibinyamafufu, ibinyampeke ndetse n'izindi serivisi zijyanye n'ikoranabuhanga, zirimo nka mobayilo mane ndetse n'izindi.

Inzu y'ubucuruzi icuruzwamo ibikoresho bitandukanye, ndetse igakorerwamo n'ibindi bintu byinshi cyane birimo ubudozi, ikaba ari inyubako icuruza imyenda yo kwambara, ibitambaro ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Iyi nyubako y'ubucuruzi icururizwamo, izwi ku izina rya mizedeforudi musanze. Icururizwamo ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye bikenerwa mu ngo.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho bitandukanye, birimo imyenda yo kwambara, kudoda ndetse n'ibikapu byo gutwazamo ibikoresho bimwe bitandukanye.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi itangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo nko kogosha, gusuka, kudehereza, ndetse no kuba wakarabya abantu mu mutwe.

Inyubako z’ubucuruzi butangirwamo serivisi zinyuranye zirimo ibiribwa, ibinyobwa, amafu, ibinyamisorwe, ibirayi, ndetse n’ubundi bwoko bw’ibicuruzwa bitandukanye.

Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye burimo imyenda, intebe, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, hakaba harimo n'ibikorwa byo gufotora.

Aha ni ahacuruzwa imiti y'amatungo ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Birimo imiti yo gutera imyaka ndetse n'imiti y'amatungo. Irimo vitaminini ,militivitamini ndetse n'ibinini by'inzoka.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi yitwa tripogestehawuzi, ikaba ari inyubako itanga serivisi zitandukanye, zirimo ibyo kurya ibyo kunwa sawunamasaje, ndetse n'uburyamo.

Iyi n'inyubako y'ubucuruzi icururizwamo terefone z'ubwoko butandukanye, radiyo, tereviziyo ndetse n'ibindi bintu, ibikoresho bitandukanye bikoresha ikoranabuhanga ndetse n'umuriro w'amashanyarazi.

Izi ni inyubako z'ubucuruzi. Hari abantu bakira bakanohereza amafaranga mu buryo bwa rusange, bayohereza ku abantu ku matelefoni bahererereye mu bice bitandukanye. Ndetse bakaba banafasha abaturage mu kubabikuriza ndetse no kubabikira amafaranga. Hakaba hanatangirwa serivisi z'ibicuruzwa bitandukanye birimo ibiribwa ndetse n'ibikoresho.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi itangirwamo serivisi zitandukanye, ndetse ikanagurisha ibikoresho bitandukanye birimo ibyo mu nzu, ndetse n'izindi serivise zitandukanye.

Iyi n'inzu y'ubucuruzi ahazwi nko kwa saporozi limitedi, akaba ari kapani ikora ubucuruzi butandukanye bw'ibikoresho byo mu nzu, birimo ibitanda by'abana ndetse n'iby'abantu bakuru n'ibindi bikoresho bitandukanye. .

Iyi ni inyubako icururizwamo ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye, birimo amatiyo, ubusanduku bwo gushyiramo imyanda, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu bwiherero.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ndetse imbere yayo uyu yicaye utanga serivisi za mobayiro mane, ku gutanga no kohereza kwakira no kohereza amafaranga ku bantu batandukanye, akaba ari n'inzu na none itangirwamo ubucuruzi butandukanye bw'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, icururizwamo ibiribwa birimo ibihaza, ibijumba, ibitoki, ndetse n'ibisheke. Ikaba inacuruza na none ibinyobwa bitandukanye birimo fanta, ji ndetse n'amafu atandukanye, arimo kawunga, ay'ibikoma, n'ibindi bikoresho bitandukanye, bikenerwa mu rugo.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi igurisha serivisi zitandukanye, zirimo iz'irembo, ibiribwa, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye umuntu yaba akeneye mu buzima bwe bwa buri munsi, harimo ibiribwa birimo amafu, ibirayi, ndetse n'ubundi bwoko butandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ahazwi nko kuri cetraff ltd musanze rukaba n'uruganda rukora inzoga zo mu bwoko bw'ibitoki aha kandi baharanguriza bakanahacururiza izo nzoga.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibikoresho bitandukanye by'amagare ndetse n'ibikoresho by'amashanyarazi akaba ari inyubako itanga serivisi z'ibicuruzwa bitandukanye by'ikoranabuhanga ndetse n'amashanyarazi.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ahazwi nko kwa Neza house. Itanga serivisi z'ubusitani bukorerwamo inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi itangirwamo serivisi zo gucuruza ibicuruzwa bitandukanye by'amashanyarazi, amazi, umuririro, ndetse hakaba hanatangirwa serivisi z'ibinyobwa n'ibiribwa. Haba hanaboneka uburyamo ku bantu bahageze bananiwe, kubera ko iyi ni hoteri.

Iki ni icyapa kiranga ahantu ndetse n'ibintu bitangirwa muri iyi nyubako y'ubucuruzi, ari byo ifi, inkoko, ifiriti, buroshete, agatogo ndetse n'ibindi bitandukanye. kikaba ari icyapa kiyobora abantu n'aho berekeza bagiye, mu gihe bagiye gushaka izi serivisi z'icyanditseho.

Iyi ni inyubako y'ubucuruzi, icururizwamo, ibicuruzwa bitandukanye, birimo imyenda yo kwambara, ibikoresho, ndetse n'inkweto, ikaba izwi ku izina rya new shop. Iyi n'inyubako kandi ishobora, kugurishirizwamo na serivisi cyangwa gutangirwamo serivisi zo kunganira abaturage mu bijyanye n'imanza.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ahazwi ku izina ryo kwa mama nicole, akaba ari inzu icururizwamo ibinyampeke bitandukanye, ndetse n'amafu yabyo.

Inyubako iriho ikirango kigaragaza inzu y'ubucuruzi yitwa Lavazina hoteli, ikorerwamo ibice ubucuruzi butandukanye burimo kugurisha ibyo kurya, kunywa n'uburyamo.

Iyi ni inyubako izwi ku izina rya mph urugwiro ltd guest hawuzi, kabiri ikaba ikorerwamo ubucuruzi burimo amacumbi, ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye.

Aha hatangirwa serivisi z'ubucuruzi, kugura no kugurisha ibikoresho bitandukanye, aha hakaba hari isoko ry'ibikoresho by'amashanyarazi, ibyo mu rugo, ndetse n'ibindi bikoresho n'ibiribwa bitandukanye.

Iyi n'inyubako ndetse rikaba n'isoko ricuruza ibikoresho bitandukanye, ndetse n'ibiribwa bitandukanye, ibinyobwa birimo amazi ya Nili, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye by'ibiribwa, ndetse n'ibinyobwa.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa, ibinyobwa, ndetse n'ibinyampeke. Habamo imbuto, amafu, n'ibikoresho byo mu nzu ndetse n'imyambaro. Ibi mubona ni ibishyimbo bishobora gukorwamo imbuto cyangwa se bigatekwa.

Iri ni isoko ricururizwamo ibintu by'ubwoko butandukanye birimo ibinyampeke, amafu ndetse n'ibinyabijumba ari byo ibirayi, ingano, ibigori, amasaka ndetse n'ibikoresho bitandukanye byo mu nzu.

Iri ni isoko rikuru ry'Akarere ka Musanze rikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye, buririmo imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu nzu. Ni inzu ikorerwamo amabanki ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye biherereye mu Karere ka Musanze.

Iri ni isoko abantu b'abacuruzi bagurisha ibiribwa bitandukanye, birimo urusenda, imiteja, karoti ndetse n'ibindi binyamafufu bitandukanye n'ibinyamisogwe.

Iyi ni inyubako ikaba n'isoko ricururizwamo inkweto, imyenda, ibikoresho byo mu nzu, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Hakaba ari ho abaguzi n'abagurisha bahurira bose bagamije kwinjiza inyungu.

Biri mu isoko ricuruza ibiribwa bitandukanye birimo intoryi, inyanya, ibitunguru, ibirayi ndetse n'ibijumba, rikaba ricuruza kandi ibikoresho bitandukanye byaba ibyo mu rugo, ndetse n'imyambaro.

Iri ni soko ry'imyenda ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Rigurisha rikanagura ibintu bitandukanye,, ibiribwa imyenda yo kwambara, ibikoresho byo mu rugo, ndetse n'ibindi bintu byose bitandukanye bifitanye isano no kugura no kugurisha.

Iri ni isoko ricururizwamo ibiribwa, ibikoresho, imyambaro, ndetse n'imbuto. Ibi bikaba ari ibishyimbo by'imbuto, ndetse hakaba harimo amafu atandukanye.

Aha ni ahantu hatandukanye hahurira abantu benshi batandukanye ku ntego imwe yo kugura no kugurisha, iri rikaba ari isoko ry'imyenda bakaba bagurisha imyenda itandukanye iy'abantu bakuru, abana ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bifitanye isano no kugura no kugurisha.